Hari ibigo byinshi cyane byagufasha mu kubona ubwishingizi buciriritse budahenze. Kimwe muri byo bacyita radiyati yacu aratidi, cyangwa se radiyati yacu kapani. Ubwo rero radiyati ikintu iba imaze, byamaze kwemezwa ko radiyati ari cyo kigo cyagufasha kuguha ubwishingizi kandi buciriritse forufuri.

Ubwishingizi bwinshi bitandukanye n'amatungo yacu dutunga nayo tuba tugomba kuyagirira ubwishingizi, inama y'umunsi rero hari ikintu cyitwa inzitiro ku matungo ugashyiraho uruzitiro rukomeye kandi rukwiye rwose kugira ngo urinde amatungo yawe kuzerera cyangwa guhura n'ibintu byayangiza, ugomba kugenzura ko buri ruzitiro rumeze neza, urwangiritse rugasanwa.

Ibintu byaroroshye aho buri muntu wese ibyo atunze byose yabishinganisha hamwe na Radiyanti yacu, Radiyanti yacu rero iradufasha aho wabasha gufata ubuhinzi bwawe ukora bwa kijyambere ukabushinganisha mu rwego rwo kugira ngo wirinde cyangwa se uteganyirize ejo hazaza. Iyo ushaka gukora umushinga mugari kandi umushinga uzatinda w'ubuhinzi biba byiza iyo uwo mushinga ugiye uwujyanye muri Radiyanti yacu ukawuteganyiriza.

Ibizazane, ingorane, ibiza mu buzima ntibiteguza, ntibiteguza, ubwishingizi bw'impanuka bwa purayimu bugufasha kuguma utekanye, bugufasha kuguma wizeye ko icyo ari cyo cyose cyakubaho famiye yawe yasigara imeze neza nta kibazo.

Ibigo by'imari bidufasha kwizigamira ejo hazaza, ni ingirakamaro cyane urugero nka radiyanti yacu, ibihe nk'ibi rwose aho umuntu aba ageze mu zabukuru ariko nta kibazo kuko ubuzima bwe ya amaze kuzigamira, ahazaza yamaze kuharema rwose nta kibazo radiyanti yacu ibidufashamo, ahazaza hakamera neza.

Iyo hari kwamamazwa ikintu runaka biba bisaba ngo hazemo umuterankunga ndetse hasohoke amafaranga menshi cyane. Mu gihe rero bari kwamamaza gukora ubwishingizi ku byo dutunze harimo amazu, amamodoka yacu. Amamodoka ari mu muhanda tuba tugomba kuyakorera ubwishingizi, nshuti zanjye kuko iyo imodoka ifite ubwishingizi, iyo ikoze impanuka ntabwo bikugora kuko bwa bwishingizi buragusapotinga cyane.

Ubu ngubu ibintu byaroroshye, ushobora gukura amafaranga yawe ahantu hamwe uyajyana ahandi, ushobora gukora transaction se cyangwa guhererekanya, ugakura amafaranga kuri banki ukayashyira kuri momo birashoboka cyane cyane, cyangwa ugakura kuri momo ukayajyana kuri banki, cyangwa se ukaba wayakura ahantu runaka ukayashyira kuri banki, cyangwa se no kuri banki wayahakura ukayishyira ahantu runaka, ukayakura kuri banki ukaba wafasha abantu runaka.

Iyo umuntu afunguje akawunti muri banki bisaba ko akenshi we akabisaba kugira ngo bamuhurize na telefone. Buri gikorwa cyose kibereye kuri banki na we ahita akibona. Iyo hari ubikuje ahita abibona. Iyo ari abasikama ahita abibona mbere ko bamutuburiye bamwibiye amafaranga, akaba yabikurikirana bigishyushye. Ndetse hari n'uwundi mumaro munini cyane kuko iyo telefone yawe ihuje na banki birakorohera.

Ni icyemezo uhabwe na banki Equity, iyo wahafashe inguzanyo ukagenda wishyura, buri uko wishyuye baba bagomba kuguha icyemezo cyerekana ko wishyuye aya ngaya bakakwereka ahasigaye, bakakwereka itariki uzasoreza kwishyuriraho, nyine ibisabwa byose bakabikwerekaho kugira ngo utazibeshya, mukaba mwaterana ibibazo.

Amwe mu masoko se cyangwa amabotike aba ari kubarizwamo imyenda y’abagore cyane cyane yitaye ku bwiza bw'abagore aho haba hari amasaro atandukanye amanekilesi yo mu ijosi ndetse n'amagurumete bambara ku maguru aho baba muri rusange bari kwita k'umunyarwandakazi usa neza ndetse n'amashakoshi akozwe mu mpu ndetse n'imigwegwe.

Mu muco w'u Rwanda hakunze kubamo ibirango byinshi bitandukanye, harimo nk'ikirango cyiza cyane gikunze gukoreshwa cyitwa umugongo. Rero mu muco w'abanyarwanda icyo kirango kirazwi cyane, niyo mpamvu muri medi ini rwanda ziri gukorwa cyane, amatisheti, amashati, hakunze kuba hariho kino kimenyetso cya medi ini Rwanda cyitwa umugongo.

bamwe mu bacuruzi bacuruza ibintu bijyanye n'ubukorikori harimo ibintu byadozwe mu budodo bwiza ariko bakadodamo imipira amafarari ingofero n'ibindi byinshi bitandukanye by'imitako bakaba babaza mubiti bagakora imitako myiza yomunzu ibyongibyo muri rusange biba bishatse kuvugako ari ubukorikori umuntu akora

Ubucuruzi bujyanye n'imyenda; n'amagofero, n'amashakoshi nyine ibintu byinshi abagore bakunze gukonsoma. Bakunze kubyita amabotinki, kuko umugore wese uhageze nyine cyangwa se umumama akunze kuhagera akahasanga buri kimwe cyose yifuzaga kuko byose biba bihari.

Ubucuruzi bugezweho, harimo gucururizwa imyenda myinshi y'abamama, amakanzu, amajipo, ndetse n'udupira, aho usanga hari n'imitako, urugero, imitako yo ku maboko, iyo mu ijosi ndetse n'iyo ku ntoki, muri rusange wageze muri iri duka wabasha guhaha ukambara neza we mama, wageze muri iri duka rwose nta kintu wahaburira, kuko byose birahari.

Ibigo byinshi bikoresha, uburyo bwo kwamamaza ,mu mihanda, ku mateleviziyo, ahantu henshi hatandukanye, kugira ngo abantu bamenye ibyo bakora, ndetse babagane babahahire urugero nka Hyundai, Hyundai namwe mu mamodoka, ubwo rero nabo baramamaza, ibyapa bakabimanika mu mihanda ,bagashyiraho abantu babamamariza kugira ngo abantu bamenye ibikorwa byabo.

Ubungubu ibintu byose byaroroshye!. ukeneye gutunga automatic cars. aho zizwi nk` imodoka ziri otomatike ndetse imodoka zirenze cyane. aho iyo modoka rero muri 2014 yasohotse hanze yitwa ki_q5 hybrid. iyo modoka ikaba ari otomatike ndetse ikaba iri kwisoko iri kugurishwa kumafaranga ya manyarwanda miliyon 12 ukayegukana ukayigira iyawe burundu!.

Benshi cyane bajyaga bibaza ngo ni he twakura amamodoka ariko ibi byoroshye. Hari ahantu heza cyane runaka wagera ugakura amamodoka meza y'igiciro, ndetse amamodoka wifuza bitewe n'amafaranga ufite. Ubu ngubu byaroroshye bagatumiza ibintu hanze, batumiza amamodoka akaza mu Gihugu, ndetse n'iyo utahasanga na yo bayigutumiriza ikaza, ukaza ukayitwara nta kibazo.

Isoko ricuruza amamodoka i Kigali riri kugurisha imodoka iri mu bwoko bwa suzuki cheese, yakozwe bibiri na cumi n'umunani, iyo modoka iri ku isoko aho igiciro cyayo kinogeye buri umwe kuri miliyoni cumi n'umunani zawe ugatwara imodoka nziza, ifite amatara meza, ifite sayizi nziza.

Nkuko bose babizi bitandukanye muri akagera motos haba hari ibikorwa byinshi bitandukanye haba hari n'amamodoka menshi menshi cyane atandukanye kuko akagera motos kaba kahagurukiye gukora ndetse no guteza imbere umunyarwanda muri rusange ahava akagera akaba yahabwa ubufasha bwo kuba.

Aya marimoroki akoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye, akenshi aba yambuka imipaka azana ibicuruzwa bivuye hanze abizana mu gihugu, akuye ibindi mu gihugu abijyana hanze, ni bwo bakunda gukoresha aya mamodoka manini y'amaremoroki.

Abantu bose baba bafite inganda babifuza kwamamaza ndetse bakamamaza neza, ndetse iyo ufite umuterankunga bigenda neza. Ecobank iri gutera inkunga The Ultimate Auto Advantage, ni amamodoka ari gukorwa, kandi ayo mamodoka bakaba banayashyiraho nk'ibihembo mu bantu bari mu marushanwa, bagashyiraho igihembo bakavuga ati, igihembo nyamukuru ni imodoka yakorewe muri The Ultimate Auto Advantage.

Hari amamoteri menshi atandukanye hakabamo n'iyo bita Akagera Moteri. Akagera Moteri ni moteri ikomeye cyane izamo abakiriya benshi ndetse b'abakire kuko iri ahantu heza ndetse irasirimutse ndetse serivisi zayo nizo zibakurura cyane ni cyo cyerekana ko icyo kintu gifite visiyo gifite ahazaza kuko cyita ku bakiriya neza.

Kwamamaza ibigezweho ndetse amamodoka meza agezeho hamwe n'Akagera Motozi. Wabasha gutsindira imodoka nziza ku giciro kandi kiboneye, ku giciro buri muntu wese yakwisangamo, gusa imodoka nziza, nziza pe. Ifite amatara meza y'amazi ewana imodoka nziza.

Amafaranga yakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere ibihumbi bitanu, ntabwo ari kera cyane, hari hariho ibirango byinshi bitandukanye, hariho inzu nziza nyine y'icyerekezo u Rwanda rwifuza kugeramo, hariho ababyinnyi bambaye imyenda y'umuco, hariho ingabo, amacumu n'intore ndetse n'amakawa meza, kuko u Rwanda rukungahaye ku makawa kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose.

mu kwihangira imirimo bamwe bahanga imirimo harimo no gukora kantine kantine ni ubucuruzi ukora ugacuruza amata ugacuruza imigati ibyayi nyine ugacuruza ibyo kunywa n'ibyo kurisha ariko bitari ibyo mu masafuriya utateste cyangwa se ukanongeramo na resitora business ukagenda uyagura ushyiramo resitora bikazarangira nawe wakoze n'amahoteli biremewe

Amwe mu maduka dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni amaduka abonekamo ibintu turibukenere, ibiribwa harimo ibintu bijyanye n'amafarini, bikozwe n'amafarini, harimo ibyayi, amata, ibyo ni ibintu dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukaba twakenera kubikonsoma, kandi atari uko n'ibindi bihari, ariko nyine ibyo ni ibintu dukenera mu buzima bwa buri munsi.

Ubucuruzi bwerekeye ibintu bya kantine, aho buri muturage wese ukora ibintu nk'ibi, biba bisaba ko abishyira ahantu buri umwe wese ari bube yisanga, aho uri busange acuruza amaji, icyayi cy'amata, amaji menshi atandukanye, imigati, amakeke n'amacapati n'ibindi byinshi bitandukanye, bitewe n'icyo ushaka muri kantine ntiwakibura.

Ububiko bwizewe, aho bubitse amazi tuzi ku izina rya jibu, akaba ahabitse ariko afite umutekano, urizewe, nta kibazo ari buhure na cyo, ayo mazi akaza gukurwamo, aruko umukiriya aje, akayifata, akayishyura, andi deni akaba yataha, ariko amazi akaba yari ari ahantu hizewe neza.

Abantu bose aho bava bakagera bahugukiye gukora ndetse icyayi aho kiva kikagera icyayi kirimo icy'abanyarwandakazi cyangwase kofi kiba kigomba kuba gisa neza. Hari igihe umuntu afashe icyayi cyiza ndetse akagifatira n'ahantu heza egare ko ubuzima bwe aba bwizeye isuku iganje kurusha icya ari cyo cyose cyari gihari isuku ni yo ya mbere.

Aho tugurira ibicuruzwa bya buri munsi urugero aho dufatira icyayi, ikawa ya mugitondo. Aho dufatira ibya saa sita hagomba kuba hujeje umutekano ndetse hujuje ibisabwa. Ku buryo utaha usanga icyayi ngo uhabure amazi, utahasanga fanta ngo uhabure inzoga, icyo gihe bisaba ko nimba ari ubucuruzi biba bisaba ko nimba hari irindazi n'imigati iba igomba kuhaboneka kugira ngo babashe guhaza abaturage bose bahagana muri rusange.

Muri buri hererekanya iryo ari ryo ryose, dukenera uwohereje n'uri bwakira, iyo uwohereje n'uwakira bigenze neza bavuga ko ihererekanya ryagenze neza, iyo bigenze nabi uwohereje wenda bigapfa, ntibigere ku wari bwakire, icyo gihe ihererekanya riba ryangiriwe.

Izigamire biba bishatse kuvuga ngo tuba dufite inzozi zo kwiga ariko akenshi tutari gutekereza ngo amafaranga ya merval azava heba byiza rero muri hamwe na spenn super saver irahari kugirango idufashe tuzigamire amashuri dutangire twiga amaterne ariko tuzi ko na kaminuza tuzayiga kuko twayizigamiye kera.

Icyemezo gitangwa na Rwanda reveni otoriti cyerekana ko wowe mu gusora uri imfura nta makemwa, wishyura neza, nta kibazo. Icyemezo kiba kiri bwerekane ko nta mwenda ufitiye Leta mu bintu bijyanye n'imisoro.

Rwanda Revenue Authority, mbere yo kugira ngo uruganda rusohore ibicuruzwa byabyo bijye hanze , bisaba ko Rwanda Revenue Authority iba yahageze nk'ikigo cy'Igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, kikahagera kibanza kikareba ko ibyo bicuruzwa byasoze neza ndetse byujuje ubuziranenge, bikaba byahabwa uburenganzira bikajya ku isoko bigatangira kugurwa.

Urupapuro uhabwa na Bigo trade andi super rwerekana kuri iyi tariki ibyinjiye n'ibyasohotse mu bucuruzi, ubucuruzi bwawe waranguje aya, wishyuyema aya, aya ntiwayishyura, yose hamwe bakaba bayahashyize ari ayishyuwe n' atishyuwe.

Icyangombwa bahabwa na Rwanda Reveni Otoriti, ikigo gikurikirana bijyanye n'imisoro n'amahoro mu gihugu iki cyangombwa kikaba gihabwa inganda ziri gukora ibintu byujuje ubuziranenge, inganda zemerewe gushora ku isoko, zemerewe gufata ibicuruzwa byabyo bikagera ku isoko nta kibazo nta nkomyi.

Ikibazo kijyanye no guhangana uburyo amafaranga yo hanze yinjira mu gihugu, icya mbere cy'amafaranga yo hanze yinjiye mu gihugu, biba bishatse kuvuga ko ayo mafaranga yinjiye ubu ufite igihugu cyiba kigize amahirwe yuko aho ayo mafaranga yaturutse natwe twazajya kuhahahira, tugatwara yamafaranga bazanye tukayavunja, natwe tukaba twayatwara tukayajyana iwabo guhahayo nta kibazo bitworoheye.

Buri gihugu aho kiva kikajyera kiba gifite umwihariko w'amafaranga wacyo, kimwe n'ibindi bihugu n'u Rwanda natwe dujyira amafaranga yacu tuhariyeho ibindi bihugu bidafite. Hano rero hari banki centre di congo nayo ifite amafaranga abakongomani bakoresha yabo, yitwa amakongamani nyine. Amafaranga yabo bakoresha aba yihariye ntago aba ameze nk'ay'abandi, kuko nabo ni igihugu kiri inike ukwacyo.

Amafaranga menshi atandukanye yinjira mu gihugu abaratandukanye harimo Ama erope amafaranga akoreshwa muri Ama erope nayo aya mafaranga yageze mu gihugu agomba kuvunjishwa kugira ngo utangire kuyakoresha. Amafaranga y'amayerope basanga aho hari ha amazi yo muri icyo gihugu ndetse ugasanga nta mafaranga afite agaciro kari hejuru bitewe n'uko icyo gihugu kiri deveropudi bifite iterambere riri hejuru.

Buri gihugu cyose aho cyava kikagera kigira umwihariko w'amafaranga gikoresha, nubwo bamwe wasanga bahuriye ku mafaranga amwe ariko ntibiba bikuye ko haba handitseho banki y'icyo gihugu, hano rero turasura banke ofu Tanzania aho ibihumbi bitanu byo muri Tanzania biba bishushanyijeho ibintu byinshi bitandukanye gusa byibanda ku muco wabo, harimo inyubako nziza cyane ndetse n'ibindi bitandukanye ariko byerekana ko ayo mafaranga ari ama Tanzania.

Amwe mu mafaranga aturuka hanze y'igihugu yinjira urugero nk'ama ero akoreshwa muri erope aho usanga ikimenyetso cya mbere cyaba kiriho cyereka ko amafaranga atari ayo mu gihugu gisanzwe ubwo ari amayero aho amodarapo by'igihugu hariho inyubako ndetse hariho n'inyenyeri zikoze ikiziga ukaba wabasha kuhita ubasha gusobanukirwa n'aya mafaranga ko aturutse hanze kandi ari amayero.

Hamwe na R.G FOLEX BUREAU aho uvungisha amafaranga yose aturutse muri Uganda aturutse muri Tanzania ahowaba uturutse ahariho hose ndetse na amarope, amafaranga yose waba ufite wayavugisha hamwe na R.G FOREX BUREAU bakaguha amafaranga y'igihugu urimo cyo Rwanda ukabasha guhaha ndetse no kwenjoyinga ubuzima bwawe ariko ukoresha amafaranga ya nyarwanda biroroshye kandi mu buryo bunoze umuntu wese bamuha serivisi.

Ibigo byinshi bikomeje kuvuka byinshi biri foregisibiro bivunja amafaranga bikayakura mu Gihugu kimwe bikayashyira mu kindi, kubera ko abakerarugendo ndetse n'abantu benshi basura Igihugu bakomeje kwiyongera, ni nako n'ibigo birikwiyongera. Bakazana amafaranga bakuye hanze y'amadovize y'amadolari bakaba bayahinduramo amanyarwanda agatangira gukoreshwa mu Rwanda, bagakoresha amanyarwanda. Amadovize akaba yabikwa.

Amabiro ahindura amafaranga nimba ufite Amanyarwanda ashaka kuyahinduramo Amarundi bakabigukorera ku giciro gito kandi bikoroheye. Ukabasha kubona amafaranga wifuza bitewe naho uri. Nimba uri mu Rwanda ariko wazanye amafaranga y'Amashilingi wazanye ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'amafaranga ugomba kubuvunjisha, kugira utangire guhaha mu Rwanda ukoresheje Amanyarwanda.

Ababaji bakomeje kwaguka cyane ubwo bakomeje kudugezaho bimwe mu bikoresho byiza bikorwa mu biti no mu mbaho, ndetse ibikoresho buri muntu wese akenera mu nzu mu buzima bwe bwa buri munsi, harimo ibitanda, utubati, n'ibindi bitandukanye.

Iyo ahantu hasa neza ubusitani bwiza buri muntu wese aho ava akagera yifuza kurira kunywe icyo kunywa ahantu heza cyane ndetse ahantu hari akayaga keza, kuko iyo umuntu ari kurira aho hantu heza ndetse hasa neza, urugero nko mu mahoteli, amamoteri menshi aba afite ubusitani bwiza cyane, iyo umuntu ahankwereye icyo kunywa kimugera kunda no ku nzoka ndetse amahoteri menshi akunze gushora amafaranga yayo menshi mu kubaka kurusha ibindi byose.

Amwe mu mahoteli y'uburanga ndetse azwi cyane mu gihugu harimo nka saint famille, na yo ni hotel imwe mu ziri mu gihugu, hari ukuntu ayo mahoteli bitewe n'uburyo agaragara cyangwa yinjiza, ukuntu haba hari inyubako nziza, jaride (garden ) nziza cyangwa se ubusitani ndetse hari parikingi, ibyumba na byo ntitwabigarukaho na serivisi zayo ziba zinogeye buri umwe akunze kugira abakiliriya benshi kurusha ayandi.

Inyubako zubatse neza zubatse ahantu hemewe, ziherereye muri Kigali zigeretse inshuro eshanu kuzamura, izi nyubako kenshi zikunze kuba zirimo ibiro bya leta, zikoremo gahunda za serivisi za leta cyangwa se n'ubucuruzi muri rusange.

Amwe mu mahoteli ari mu gihugu azwi cyane akunze kuba arimo abakerarugendo benshi baje gusura igihugu aho usanga bakurikiyeyo oderi yaho ugasanga bakurikiyeho ukuntu hoteli yubatse, cyangwa se ukuntu izwi, ukuntu ku mbuga nkoranyambaga iyo hoteli iba iri kuvugwaho cyane ndetse n'ibintu biharanga amazi meza nka picine, abakeneye koga bakaba bajya mu mazi bakidumbaguza ndetse ibyo kurya n'ibyo kunywa na byo bikaba bihaboneka nta kibazo.

Imwe mu miturire leta ishishikariza abaturage gutura ni imiturire itazatwarwa n'isuri yaje, ni imiturire uba wizeye neza ko aho utuye, aho uherereye na leta ihakwemerera wubatse inzu yawe neza ifite ubusite bwiza inzu nziza, abafite n'amamodoka uri kumva baba bagomba kuba hari na parikingi.

Rusizi hari ishami ry'ubwishingizi. Ubwishingizi buzwiho ko uba ukoze ejo hazaza heza, aho ufata ikinyabiziga cyawe, ufata inzu yawe nziza wiyubakiye, ugafata yewe n'ubuzima, ugafata amashuri y'abana bawe. Ukaba wagenda ugakora ubwishingizi bwabo, abana igihe bazagira kwiga ukaba warabateganyirije.

Zimwe muri serivisi zitangirwa mu mabiro atandukanye, ziba zibanda cyane kwita ku baturage zikabaha keya, ubundi bizwi ko umukiriya ari umwami, umukiriya iyo umubonye umubona nk'umwami kuko ufite papasi yo kumuhaza serivisi yose akeneye uba ugomba kuyimuha kandi agasohoka yishimye.

Ubufasha ubwari bwo bwose waba ukeneye mu irembo ura buhasanga waba ukeneye umu agent wa banki, waba ubukeneye kubikuza amafaranga, waba ukeneye kwishyura ibintu bijyanye na leta, ibintu bijyanye no gutwara ibinyabiziga, kwamamaza ibikorwa byiza bya leta, ibyo byose ubisanga mu irembo ndetse banki zose hano ziba ziri kugaragara ndetse n'ubufasha bwose wakenera urabuhabwa.

Banke nziza cyane itanga inguzanyo yitwa Eco banke, iyo ifite akawunti muri eco bank biba byoroshye korohereza no kwakira amafaranga ku nshuti zawe cyangwa umuryango wawe ziri kure se cyangwa na hafi zikwegereye. Biba byeroshye rero muri ecobanke kubona inguzanyo hamwe na Panafurikani biba byoroshye kuguha inguzanyo kuko mu nguzanyo baba bazi ko uzatera imbere kandi ukishyura neza.

Ubu byaroroshye aho hari inguzanyo nyinshi cyane zitangwa hatitawe ku kuzikoresha, hari abaguza bagiye gukora imishinga runaka izababyarirariramo inyungu, hari abaguzi bagiye kugura ibinyabiziga bizajya bibatwara buri munsi nk'imodoka se cyangwa moto, hari n'abandi baguza bagiye kubaka isi cyangwa gushaka bajya gukora ubukwe biterwa n'inzozi zawe, rero bikoroheye gusa bitewe n'icyo ukeneye cyose wabasha kukibona ku nguzanyo bikoroheye cyane.

Banki zose aho ziva zikagera ziba ziteguye gufasha umuturarwanda mu iterambere rye, BPR banki y'u Rwanda nayo ni banki muri zimwe ziteguye gutanga inguzanyo kugira ngo hubakwe ibintu byinshi bitandukanye, kugira ngo wihangire umurimo kugira ejo hazaza hawe uhagire icyari inzozi ugihindure ukuri, inguzanyo urayihabwa pe.

Hari ibigo byinshi by'abikorera byazanye iterambere mu baturage baje gufasha abaturage kwihangira imirimo. Umuturage akazana umushinga we mwiza cyane bakaba bamuha inguzanyo yitwa sipeniloni. Inguzanyo bishatse kuvuga ngo ni inguzanyo itagira ikiguzi. Iyo bashimye umushinga wawe ushobora no kuwutangamo ingwate. Uwo mushinga ugiye gukora bakaguha amafaranga ariko ingwate ari uwo mushinga totari watanze.

Ubungubu byaroroshye urufunguza akawunti muri banki runaka bagahita baguhuriza na simukade yawe igikorwa icyo aricyo cyose kibereye kuri konti yawe ndetse na kuri telefoni ukayihita wakibona ni ari ukubitsagahita ubimenya ndetse nimba ku munsi ku munsi ukunda gusura banki yawe ukaba wayisura utagiye aho ikorera ahubwo ukaba wayisubirira kuri telefone yawe byaroroshye cyane kuri buri muntu wese kandi.

Buri muturarwanda wese aho ava akagera, abakwiye kumva umumaro wa mbere w'umusoro. Aba akwiye kumva ko umusoro ukenewe kuwutanga, waba aho utuye, waba bizinesi ukora ko ikeneye gusora mu rwego rwo kugira ngo duteze imbere Igihugu cyacu. Mu gihe kikiri mu nzira y'amajyambere tuba tugomba kwishakamo ibisubizo. Tugasora tugatanga imisoro, ndetse abaturage tukagerageza kubibahuguraho kugira ngo babyumve, bubahirize batange imisoro bihagije.

Sushi pinari ya tennis yageze hanze, aho umuterankunga mukuru ari ayi andi emu banki muri ita karabu tenisi tunameti ahongaho niho ibintu bizaba bishyuhiye finari ya tenisi sushe byageze hanze ko iyorsenal hari.

Ama banki menshi atandukanye, urugero nka ekwiti. Ni ama banki tuba twizeye ko iyo ufite umushinga mwiza usaba inguzanyo bakayiguha, iyo nguzanyo ukaba wayikoresha mu mushinga wawe . Ugatangira gutera imbere bigishyushye, ugatera imbere ukiri muto. Ukaba wazamuka ukagenda wishyura inguzanyo gahoro gahoro ku nyungu muba mwumvikanye.

Amabanki menshi atandukanye yiteguye gutanga inguzanyo, ntabwo twabuze amafaranga yo kugira ngo duhangage ama bisinesi, kuko amabaki menshi atandukanye harimo na Equity arayafunguye, kugira ngo aduhe inguzanyo dukore twiteze imbere, ubundi dutangire twishyure nta kibazo.

Ibigo byinshi bitandukanye harimo the future is pan-African. Pan-African ni kimwe mu bigo by'imari bitanga inguzanyo ku rubyiruko ndetse no ku bantu muri rusange. Iyo ufite umushinga mwiza ubasha kubibumvisha ukagenda ukawuhatanga bawukunda bakaba baguha inguzanyo nta kibazo. Ndetse inguzanyo bizeye ko uzayigaruza bitewe n'umushinga mwiza watanze.

Bimwe mu bintu bituma abantu benshi cyane bahurura cyangwa bagahurizwa hamwe, harimo n'igihe haba habaye inkuru y'incamugongo cyangwa inkuru itangaje, igihe nk'umwe mu byamamare yaba yafashwe na polisi ariko agafatirwa ahantu hari hafi y'isoko cyangwa se ahantu hari abantu benshi, ibyo bintu bishobora gutuma abantu benshi, imbaga nyamwinshi iteranira hamwe kandi ibitunguranye.

amwe mu masoko agezweho ikintu cya mbere kizayakubwira abari amasoko afite folo nyinshi, hasi ugasanga hari gukorerwa ubucuruzi bw'imboga hejuru harimo gukorerwa ubucuruzi bw'imyenda hejuru ugasangari hakorerwamo bare cyangwa se restara ahandi hejuru naho ugasanga hari gukorerwamo ibintu bijyanye no gusukura mu mutwe se cyangwa ibintu bijyanye no gusuka rero ibyo ni ikintu cyerekana isoko ryateye buri kintu cyose bagiha paritoma yacyo kugira ngo ngo bigende neza

Isoko rigezweho riheherereye aho twamenya nka Nyabugogo modani maketi. Ni isoko rigezweho aho buri muturage wese aba ahisanga bitewe n'icyo yaje gucuruza, ndetse n'icyo uje guhaha ntiwakihabura, imyenda, ibiribwa, n'ibinyobwa, n'inyama nta kintu wahabura, buri zone yose baba bayihariye ikigomba kuyicururizwamo, rero bitewe n'icyo ukeneye wagana Nyabugogo modani maketi ukakihasanga.

Amwe mu masoko aherereyemo ibintu byose twifuza cyane dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane nk'imyenda n'inkweto, ariko hano ho hari kugaragara imyenda cyane n'imipira ,amapantaro ndetse n'amasume ndetse n'amagofero n'ibindi byose bitandukanye bikorwa mu myenda hano wabihasanga.

Amasoko rusange akenshi tumenyereye ko tuhasanga ibintu byinshi bitandukanye, harimo n'imboga, mu masoko rusange tuhasanga imboga nziza amashu, dodo, karoti, amadegede n'ibindi byinshi bitandukanye, ku masoko rusange, nta kintu wabura ku masoko rusange wahageze ntakintu na kimwe wahabura.

Ubu ni ubucuruzi butandukanye harimo n'ubucuruzi bw'ubuconsho, aho usanga umucuruzi ari gucuruza ariko nyine ibintu bikeya ndetse ibintu uri kubona ko nyine ataranguza, ahubwo we acuruza aha abaturage muri rusange ntabwo we aranguza nyine ngo abe afite gahunda y'uko ari bucuruze agakora depo bakaza barangura, we aha abaturage bisanzwe.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, aho baba bahuriye mu isoko rusange, bamwe baje kugura abandi baje kugurisha, ndetse ku masoko menshi azwiho cyane ko iyi minsi ijya igera hakaba umunsi w'isoko rusange, nkaha haba habaye kuremesha kw'isoko hari amanyanya, inyanya nyinshi mu dutebo, hari abaje kurangura, intoryi n'ibindi bitandukanye, gusa iyi mbaga y'abantu bamwe babaje kugura, kurangura n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ubucuruzi bukunze kwitwa ubucuruzi bw'ubuconco aho usanga bari gucuruza utuntu nk’utu ariko ugasanga ucuruje udushyimbo na two ni dukeya ibirayi nabyo biraho ,intoryi ,ndetse abaturage benshi ugasanga bahuriye hamwe ku isoko baje gushakisha ubuzima mu bucuruzi bwose ariko nyine ari ubuconco atari ubucuruzi bw'ubunyamwuga.

Ubucuruzi bw'ubuconsho ni igihe umuturage aba ari gucuruza ariko nyine nta aderese afite, nta cyerekezo cyangwa se n'ibintu acuruza atari ibintu byinshi, ku buryo yavuga ngo mvuye hano ngiye gucuruza nkore ubucuruzi bugari bwagutse nambukiranya imipaka, icyo gihe aba acuruza ubucuruzi buri aho nyine, butagira icyo bwahindura n'ubundi acuuruza imineke, avoka n'ibindi.

Abantu benshi bakora ubucuruzi, bakunze gufunguza momo payi, iyo uri gufunguza momo payi, ushyiraho izina, uwishyura azajya ahita abona ko ari wowe agiye kwishyuraho, andi deni, ukaba washyiraho n'imibare itanu, cyangwa se itandatu, uzajya ukoresha nka kode yawe, bazajya bakwishyuraho muri momo payi.

Ubu ngubu ibintu byose byaroroshye, ushobora gukoresha MOBILE MONEY wishyura, cyangwa se nawe bakwishyura, ukanze akanyenyeri, ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyeri, gatatu, urwego, ukinjira, noneho ugashyiramo kode yawe, ibintu bihita byoroha, ukaba wakwishyura, cyangwa se nawe ugahabwa amafaranga bikoroheye.

Bamwe mu bantu batanga serivisi za MTN n'izindi nyinshi zitandukanye, ariko bagakorera muri ya mazu n'ubundi yimukanwa, ya mazu akunze kubarizwa ku mihanda, ukiyabona ugahita wibwira ko uwo muntu yagufasha kohereza, kwakira amafaranga, yagufasha ibintu byinshi bitandukanye.

Aba agent ba MTN baradufasha cyane! kuko hari serivisi nyinshi batworohereza: tugur amayinite, bakatwohereza amafaranga, bakayatubikiriza kuma telefonine yacu natwe ubwacu tukayiyoherereza. Gusa aba Agenti ba MTN baradufasha cyane! biba byiza iyo babaye benshi kugira ngo baduhe serivisi. kuko uko abaturage twiyongera dukenera byinshi duksosoma dukenera abatwitaho benshi nabo iyo babaye benshi biradufasha.

Uyu muturage wese ucuruza bicuruza byinshi bitandukanye byakora ibyiza byaabakoresha moopey aho akanda *182*8*1# bagashyiramo kode bakurikiza amabwiriza kodeyro wowe wishyuye ntabwogo bagukata kandi ni nabyo byoroshye kwishyura kuri kode kurusha amafaranga mu ntoki n'umutekano uba wizewe.

Ubucuruzi bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, bitewe n'icyo ucuruza ukaba wagifotora, amafoto yacyo ukagishyira ku mbuga nkoranyambaga, ugashyiraho igiciro cyacyo ayo kiri bugurwe, ugashyiraho aho ukorera n'uburyo umuturage wakigu cyamugeraho, ibyo rero ukibonye yagikandaho yamara kubona ibicyerekeyeho yagishima akaba yahamaga se cyangwa akarwandikira kuri watsapu, akishyura kuri onurayini andi deni akabibona.

Icyangombwa uhabwa na leta kikwemerera ko wemerewe gukora inpotation dispotation bishatse kuvuga kuba wemerewe kwinjiza ibintu mu gihugu no gusohora ibindi mu gihugu nyine ubucuruzi bwawe buba buri international bujya bwambuka imipaka iyo ufite icyo cyangombwa uba wemerewe kwinjiza no gusohora ibicuruzwa mu gihugu ukagurisha ndetse ukanagura nta kibazo.

Gahunda ya vuba vuba ubu ibintu byaroroshye, ushobora kuba wiciwe mu rugo hamwe na onorayini shopingi, ugakanda ukavuga uti njye ndashaka ko banzanira imboga nziza cyane harimo karoti, voka, ibitunguru, pavuro n'ibindi, ugatumiza kuri hamwe na vuba vuba, ibintu bigahita bikugeraho byihuta ugahita uteka ukarya.

Turabizizi neza ko online shoping bakunze kukwamamaza bashyiraho igicuruzwa ariko baga nahoho icyo gicuruzwa kiba giherereye. Bakavugango bati icyo gicuza giheherereye i kigali aha n'aha ku nzu yitwa HOUSE OF TAYO ukihagera aho ngaho uba wahageze. aho ngaho baba bari kubwira kuri babandi bifuza kuza kujyitwara kuri tele ndetse n'abandi baba bifuza ko bakibagereza aho bari nabo birawukunda cyane!.

Haje ikoranabuhanga ibintu byose byaroroshye, ubu ngubu guhaha rwose hari igihe bitigora ngo ugere ku isoko uhahe, ugakoresha ikoranabuhanga, onurayini shopingi ini Kigali, abantu bari muri Kigali cyane cyane bakoresha ikoranabuhanga bahaha, akareba umwenda mwiza akaba yawuhitamo akawugura, bakanamukorera, bakaba banawumuzanira aho ngaho ari, ibiryo nabo abakeneye kurya nabo bakora komande aho bari, bakaba babibazanira, ibintu byaroroshye.

Inzu nziza iherereye i Kanombe Kigali iri kugurishwa, iri ku isoko aho wowe muguzi wabasha kuyegukana bitakugoye cyane kuko iyo nzu ni nziza ntabwo ayo mahirwe wagakwiye kuyabura kuko iyo nzu iherereye Kanombe Kigali kandi ku mafaranga anogeye buri umwe wese, miliyoni ijana na cumi n'eshanu z'Amanyarwanda.

Byaroroshye cyane aho ku mafaranga yose afite wabasha kubona inzu ukodesha, aho hari inzu nziza cyane ifite ibara ryiza ndetse yubatse neza iherereye i Kigali siti aho iyo nzu iri gukodeshwa amafaranga agera mu bihumbi magana abiri ku kwezi y'amanyarwanda.

Ibintu byaroroshye ubungu ikintu cyose wakenera ku ikoranabuhanga wagihaha ndetse bakibonaho n'amakuru wa wa wa doti vayibe hawuzi doti rwa, aho ngaho ni urubugacaho ukabona amazu meza y'igiciro nawe wakwishimira guturamo, amazu aba ari ku isoko ari kugurishwa kandi ku giciro kiboneye buri umwe wese.

Ba bantu bari barabuze aho gutura, ba bandi bari bahangayikishijwe n'ahantu ho gutura heza kandi hizewe, inshuti yawe yagusura ikavuga iti "ni wowe utuye neza" byakemutse kuko muri Kigali hari kuboneka inzu nziza cyane, inzu usangamo igikoni giteguye, hari firigo, hari gaze, nta kibazo gihari, iyo nzu ukayikodesha amafaranga ibihumbi magana atanu na mirongo itanu y'amanyarwanda buri kwezi.

Ubu ibintu byoroshye aho atembera gakeya cyane muri Kigali, ukagera ahitwa muri Kanombe ukahasanga inzu nziza cyane, inzu ifite parikingi eshatu z'imodoka izi ifite igipangu cyiza amabara meza amabati ya yandi agezweho ya originali, ndetse iyo nzu ntabwo ihenze cyane, iherereye muri Kigali, iri kugurwa amafaranga miliyoni mirongo cyenda n'eshanu z'amanyarwanda ukigukana inzu yawe.

Inyubako iri ku isoko iherereye i Kibagabaga-Kigali, nziza cyane, inyubako yujuje ibisabwa irimo amarange meza. Y'Ameki kolo, amarangi bitewe n'ibyo ukunda. Ariko harimo irangi ryiza cyane. Bitewe n'ukuntu iyo nzu igaragara nawe yagukurura, ihagaze yuwezidi. Ibihumbi ijana magana atatu na mirongo itanu y'Amayuwezidi, ni yo iyo nyubako ihagaze, Nyakubahwa...

Inzu nziza cyane iherereye Kanombe i Kigali City, ubwo uyu munsi yashyize ku isoko, ntabwo ihenze cyane, kuko igiciro cyayo ni miliyoni ijana na mirongo itatu y'amanyarwanda, ukabasha kuyegukana ukayigira iyawe ukayituramo kuri aya mafaranga wabasha kuyihindura iyawe ndetse bakaba banayikwandikisha gusa ni inzu nziza n'ibiyirimo byose, ni byiza wayigura mu bushobozi bwawe.

Ba bavandimwe bacu bari barabuze aho gutura ubu byoroshye cyane. Inzu nziza yo gukodeshwa iherereye Kigali, Kanombe. Inzu nziza y'akataraboneka igizwe n'ibyumba bine ndetse n'ibindi bitatu bishamikiyeho. Urikumva, n'inzu ngari cyane watuzemo n'umuryango wawe mwese mukaba mwishimye, ndetse iyo nzu buri kwezi iba iri kwishyurwa amafaranga ibihumbi magana atanu y'amanyarwanda.

Inzu ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amanyarwanda, iherereye Kagarama, iyo nzu ikaba ifite ibyumba bine byiza cyane ibyumba bine byo kuraramo n'ibindi bitatu by'inyongera, umuha urugero nka saro na saramanje n'ibindi, iyo nzu ikaba iherereye Kagarama santire.

Inzu nziza y'akataraboneka, inzu ifite amabati meza cyane, amabati amwe agezweho akomeye, iri ku isoko, iherereye Kabeza hafi na n'umurenge wa Kabeza, ukigera hafi n'umurenge rwose inzu uhita uyibona. Ituye muri santere nziza, hahandi hatuye abantu benshi kandi iyo inzu ituranye n'umurenge biba bishatse kuvuga ko n'umutekano wizewe cyane.

Mu bucuruzi bugezweho aho usanga buri ikiguzi cyose bacuruza kiba kiri ku murongo, aho usanga nimba ari amafu runaka bacuruza wenda nk' ifu y'ibigori zigombye kuba ziri hamwe ugasanga amata ari hamwe ya mu bikarito, nyine ugasanga biratandukanye cyane buri kimwe gifite rokasiyo kiri kubarizwamo kugira umucuruzi akinjira ahite anibwira ngo icyo nshaka kirahari bitewe n'iki yabonye.

Ubucuruzi bwa shop butandukanye ,aho muri shop hari kubarizwamo imikandara myiza cyane y'uruhu, amasakoshi meza cyane y'uruhu, inkweto nziza za safari ndetse n'ingozi ku bagabo ndetse n'abagore baba mama ntabwo twabibagiwe kuko naho hari inkweto nziza zizamuye zizwi nka high heels n'izindi nyinshi zitandukanye ikaze.

Amwe mu maduka akomeye cyane, amwe mu maduka acuruza ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'imyidagaduro, ibikinisho by'abana, ibyicundo ku mashuri, ibintu byinshi bitandukanye bibarizwa muri aya maduka, usanga ari ibijyanye n'imikino y'imyidagaduro, abakina imikino myinshi itandukanye bose bemerewe guharira hano.

Ucyumva amashopu ugomba kumva ahantu uri busange byabindi wari wabuze, byabindi byose wifuzaga guhaha, amashakoshi, inkweto, ingofero, imyenda n'ibindi byinshi bitandukanye wabisanga mu mashopu, kandi ku giciro kiba kinogeye ugishaka, buri kimwe kiba gifite igiciro cyacyo kigahinduka.

Iyo bavuze amangazine, amangazine ni hantu uzasanga ibintu byinshi bitandukanye, uzasanga amazi meza, uzasanga amaji, amabiswi atandukanye, uzasanga imigati, ibintu byinshi cyane bitandukanye, iyo ubisanze ahantu hamwe ari byinshi ubyita amangazine.

Amasoko menshi ndetse ubucuruzi bwahawe ireme, kuko buri muntu wese ibi kenshi ibyo dukoresha byinshi tuba twabiguze ndetse amasoko ni n'ingirakamaro kuko abahinzi barahinga bakabona ababagurira, noneho abo bantu na bo babaguriye nabo bakabona abandi baguzi. Amasoko rwose ni nesesari cyane mu buzima, niyo mpamvu usanga benshi turi kugana ubucuruzi cyane kuko niwo mushinga ugezweho muri iyi minsi.

Amwe mu masoko agezweho cyane, abantu bose ubu ngubu barajwe ishinga no buri muntu wese ushaka gukora buzinesi, agashaka gukora ibintu bijyanye n'amasoko, bizasaba ko akorera ku isoko, na we aya masoko agezweho niyo aba aba yumva yakoresha, kuko aya amasoko aba yizewe kandi buri kimwe cyose, kiba kiba kiri ku murongo ndetse aya masoko aba afite n'ubushobozi bwo gukoresha ikoranabuhanga, kuko aba afite adrese idahinduka akoreraho.

Aba baturage mu bihe byo gutanga amafaranga ya mituweli ndetse no kwishyura. Iyo bari kwishyurira imiryango yose hamwe, barikwishyura mituweli usanga biteye akavuyo kenshi bitewe nuko bamwe baba bafite imiryango myinshi cyane, abandi bafite mitoya, kandi bose bafite inshingano zo kwishyurira iyo miryango kugira ngo ejo hazaza h'abo banyamuryango babo habe heza, habe hizewe ko yarwara akabona ubuvuzi byoroshye.

Mituweli bitewe n'icyiciro icyo ari cyo cyose urimo, cyaba icya mbere, icya kabiri cyangwa icya gatatu cyangwa kuzamura uba ugomba gutunga mituweli, cyangwa se bitewe n'ikigo ukorera uba ugomba kugira ubwishingizi bwo kwivuza ugira, rero kubakoresha mituweli, biba bisaba ko uyishyura mbere y'igihe kugira ngo utazatungurwa n'uburwayi bikakugora.

Byari bigoye cyane ubwo abaturage batari babasha kumva agaciro ka mituweli, byasabye ndetse n'igihe kinini kugira ngo babyumve ariko uyu munsi wa none buri muturage wese aba yiteguye kwishyura mituweli kugira ngo ubwo yarwaye mituweli izaba aricyo kintu cya mbere yibuka agiye kwamwa me se cyangwa kimugoboka, cyane ko mituweli ayikenera kurusha nuko akenera amafaranga. Hfite mutuweli avurirwa ku mafaranga makeya ugereranyije n'iyo atayifite.

Amabanki yatwegereye yitwa amasako abari mu Mirenge. Buri muturage rero ugiye ku Murenge kubitsa muri SACCO no kubikuza. Hari ibintu byinshi bigenderwaho nk'abaturage bahabwa inkunga na Leta biba bibasaba inzira ndende, bakagenda n'udutabo bakajya kuri banki bagatanga udutabo bagategereza igihe kinini kugira ngo babashyiremo amafaranga ubundi babone uburenganzira bwo kuyahabwa.

Bamwe mu baterankunga bakomeye ba RSSB bakunze guhabwa impano bitewe n'amashimwe baba bashima kuko ikigo cya RSSB kirafasha cyane ku buzima iyo abaturage babashije kugura mituweli bakayishyura hizewe neza ko abo baturage bazifuzaza nta nkomyi nta kibazo ndetse ku mafaranga make batishyu 100% biba ari amahoro cyane.

Amasoko meza bari gucuruza wasangayo amabiswi menshi atandukanye bitewe n'ibyo ukeneye wowe, ama biswi agaragara kenshi abana ayo bakunda nayo aba ahari ndetse n'abantu bakuru, wowe bitewe n'iyo ukeneye wayihasanga.

Ubucuruzi bukorerwa mu bubiko hakaba hariho igiciro, hakaba hariho izina ry'icyo kintu ugiye kugura ugasanga ni ibintu biri ku murongo ntacyo wangije ukaza ugasoma ukareba niba ari icyo ukeneye ukagitwara, ataba ari icyo ukakiharekera ugashakisha ikindi ariko mu bubiko nk'ubu biba byoroshye kubona icyo ukeneye kuko biba biri ku murongo,,,

Inganda nyinshi zitandukanye zitunganya ibicuruzwa byazo, ubundi bikabona kujya ku isoko, ibicuruzwa binyuze mu nganda biba byizewe, kuko biba byizewe umutekano ku buzima, isuku kandi biba bifite na sitandadi iri hejuru, biba bishatse kuvuga ko byaba byiza tugiye dukoresha ibicuruzwa byanyuze mu nganda cyane.

Amasoko magari ndetse n'amasoko afite icyerekezo, aba ari gukora ibintu byinshi bitandukanye, aho usanga bya bintu waruzi biri kuhabarizwa akenshi ugasanga bakoresha amayetajeri aba amanitsemo ibicuruzwa uri bukenere, buri kimwe cyose ukeneye ndetse haba hari n'udukapu, ushorera ugenda uterura uterekamo, amasoko magari ni meza cyane ukurikije n'andi masoko.

Ucyumvomo supermarket ni ya masoko uba uri bugeremo ukayakoramo ibintu byose havuyemo ibintu bijyanye n'imboga, imyenda, kurya ibyo ntabwo bikunze kuboneka mu ma super market, bikunze kuboneka amasoko asanzwe ahubwo super market hakunze kubayo ama biswi nibindi bintu byose bitunganyirizwa mu nganda kandi wahihita una konsoma ako kanya already ukimara kubigura